Ibyapa byo k'umuhanda byerekana ibintu bikorerwa ahantu runaka, mu iduka bidufasha cyane cyane kumenya aho turabonera, ibyo twifuza kugura tukabibona bitatuririye umwanya.

Inzu icuruzwamo ibikoresho by'ubwubatsi, imisumari, amabati, amasima ni byiza cyane kuko biteza nyirabwo imbere, kandi bigatuma umuturage abona ibikoresho nk'ibyongibyo ahamwegereye, bityo bikabika umwanya wo kujya kubizana ahandi.

Imodoka z'imizigo cyane cyane zidufasha kujyana ibintu byacu tubivanana hamwe tubijyanaana ahandi, bidufasha mu iterambere ryacu, no kwiteza imbere mu buryo rusange.

Imyenda ni ibintu byeza cyane mu kubaho kwacu, kuko burya umwenda udufasha guhisha ubwambure bwacu, imyenda iyo ikoze mu bikapu, bikadufasha kujyana ibintu byacu mu buryo bworoshye, tuyivana ahantu hamwe, tuyijyana ahandi.

Mu mabutike acuruza ibintu bitandukanye, imikoropesho, imikubuzo ,ibikoresho by'ubwubatsi, aho dutuye y'uko dutegereza iyo tukeneye hafi tukabika umwanya wo kujya kubizana ahantu kure, kandi akabika n'amafaranga tutayakoresha tuyatakaza yakoraho urugendo runini cyane.

Ibyapa biba biri ku muhanda cyane cyane hejuru amazu, ahantu haba amaduka bari kwerekana ibintu bacuruza, bikaba biri ku cyapa nyine biri kubyereka abantu.

Akantu gafite amapine abiri bajya bashyiramo imizigo noneho bakagenda bari gucunga, bakabijyana ahantu ku duka, ari ibintu byinshi cyane bikoreye.

Ikantu bagiye bashira hejuru y'inyubako kerekana ibintu bakora aho hantu Kiri kujya kereka ibyo abantu bakora aho hantu harimo gufara amakoti n'ibindi bagenda bakora.

Ubucuruzi bw'impeta ni ingenzi cyane, kuko burya impeta ni kimwe mu ibintu byerekana urukundo, abantu tuba dufitanye, kuko impeta uyambika umuntu ukunda, kandi akaba ari impano nziza cyane.

Amazu acuruza ibiribwa, ni amazu ndetse n'umushinga mwiza cyane kubera ko abakozi cyangwa abigendera bahora bakora ibiryo mu buryo bworoshye batavunitse, kandi kabarikira cyane mu kubika umwanya n'amafaranga.

Ahantu bacuruza ibintu bigiye bitandukanye, ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo n'amashumi bazirikisha imbwa, n'ibindi bintu bajya bakoresha abafundi n'abakanishi.

Amashapure menshi cyane, cyane ay'umweru, n'ay'ubururu, batanditse ahantu bari kugurisha, nmpetaje bambara mu rutoki.

Mu mugi kubera imihanda haba hari kunyuramo abantu benshi cyane, n'amatara aba ari ku murongo muremure ku buryo abantu bagenda iyo bwije bari kureba, kandi aba ari amazu manini harimo n'ama etage.

Amahoteli ni bimwe mu biteza ubukerarugendo imbere, bitanga amacumbi, bikitabira ba mukerarugendo kandi bikinjiza amafaranga ,na yo agira mu ngengo y'imari ya leta bituma biteza na bo imbere.

Igihe barimo guteka bajya bakoresha umwoko bari kuvangavanga ibiryo kugira ngo wenda bakore isosi bakunda nyine no kuyikoresha nko kunombanomba inyanya kugira ngo bize kuba biryoshye.

Ibicuruzwa tubona hafi yacu, bituma tubika amwanya wacu dutakaza tujya kureba ibyo dukeneye ahantu kure cyane, tukanabika n'ayo mafaranga y'urugendo, twizeye rero ibicuruzwa mu mazu y'ubucuruzi bigiye bitandukanye neza cyane, kuko natwe tuhabonera akazi tukiteza imbere.

Banki babitsamo amafaranga ni ngombwa cyane ko yegera abaturage, abaturage bakabitsamo kugira ngo bizere umutekano wamafaranga, noneho banagira ikibazo bakajya ku guza muri banki kugira ngo amafaranga abagoboke mu gukomeza kwiteza imbere.

Ubugeni ni ubuvanganzo cyane cyane bukubiyemo umuco wacu w'abanyarwanda, buba burimo ubutumwa busangiza ababukunda n'ababukunda, kandi biba ibintuintu byinjiza amafaranga, kuko n'ababukora biteza imbere.

Mu mugi haba harimo amazu manini cyane, haba harimo abantu menshi ugasanga bacururizamo, harimo ibintu byinshi cyane, ziba ziri imande y'imihanda kuburyo n'imodoka ziba ziri imande yazo.

Imbabura ni imwe mu bikoresho bituma twita ku bidukikije kuko birinda gukoresha inkwi nyinshi. Kuko zikoresha amakara agabanya uburyo inkwi zikoreshwa kandi ni byiza cyane, kuko havamo n'imyotsi mikeya yangiza ikirere.

Amasoko y'ibiribwa manini cyane, usanga harimo imbuto nyinshi cyane ni imboga, noneho ku buryo nk'umukiriya yaza agafata icyo ashaka, yarangiza akishyura akaba yajya kurirya.

Amasoko manini cyane bajya bashyiramo imbuto kuri buri gisima, kugira ngo umukiriya naza ahitemo aho agurira n'byo agura, cyane cyane bitewe n'amahitamo ye.

Mu isoko haba hari uruvunge rw'abantu baba baje guhaha, cyane cyane iyo bashaka guhaha ibyo kurya, bajya bakunda kujya mu isoko ari benshi bagahuriramo ari benshi bakajya guhaha.

Imbuto ni ingenzi cyane mubiri w'umuntu, kubera ko imbuto zitanga intungamubiri zitari nke kugira ngo tugireho ubuzima bwiza. Kandi na none abacuruza imbuto, n'abazihinga nabo babona amafaranga aturutse ku musaruro wazo.

Umugozi bajya bamanikaho imyenda kugira ngo yume cyangwag se itaza kwanduzwa n'ibintu byo hasi cyane cyane nk'imivumbi cyangwa ibindi bintu byo ku ruhande.

Isoko abacuruzi bafite ibicuruzwa bitandukanye, bazana ibicuruzwa bakabigurisha mu isoko, kandi n'abakiriya bakaza mu isoko bakabona ibyo bifuza byose, bakabona ibyo bagura kandi bigaragaza kwiteza imbere ku muturage.